Ni umuhinzi akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abahinzi, akaba ahetse ipombo ryifashishwa n'abahinzi mu gukingira imyaka, akaba ari mu igikorwa cyo gukingira ibi bihingwa, ibi bikaba bibafasha kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni umuturage uhetse ipombo ryifashishwa n'abahinzi, mu gukingira ibihingwa bigiye bitandukanye, akaba ari mu gikorwa cyo gutera imiti ibihingwa. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Guhinga ibihingwa kimwe ku buryo buteye imbere burimo gukingira ibihingwa binyuze mu bitera imiyi, bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ubafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bakaba bahetse amapombo yifashishwa mu gukingira ibihingwa bitandukanye, bakaba bari mu gikorwa cyo gukingira igihingwa, gihinze ku buso bunini. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni umuhinzi. Akaba ari mu gikorwa cyo gukingira ibihingwa hifashishijwe ibikoresho byifashishwa mu buhinzi. Ibi bikaba bibafasha kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni umugabo akaba yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa n'abahinzi mu gihe cyo guKingira ibihingwa. Akaba ahagaze mu murima utayemo ibigori bitoshe, iruhande rwayo hakaba hari ikiyaga ,akaba arimo gukingira imyaka. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni umugabo akaba ateruye indobo irimo amafi, iruhande rwe hakaba hari ibyuzi byifashishwa n'aborozi b'amafi mu kororara amafi, ibi bikaba bifasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni icyuzi cyubatse mu buryo bwa kijyambere. Kikaba cyifashishwa n'aborozi b'amafi mu korora no gutunganya umusaruro ukomoka ku mafi. Ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga ndetse n'umusaruro ukomoka ku mafi ubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugabo, akaba ahagaze mu cyuzi cyororwamo amafi, iruhande rwacyo hakaba hari ibiti bitoshye, aya mafi akaba amufasha mu kubona amafaranga yifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi ndetse no kubona amafunguro.

Ni ibyuzi bikorerwamo ubworozi bw'amafi hakaba harimo abagabo barimo kuroba amafi, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro ukomoka ku mafi ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubworozi bw'amafi bukozwe kuburyo bwa kijyambere, bufasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi ubaha ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyuzi, iruhande rwacyo hakaba hari abagabo bafashe ibikoresho byifashishwa mu burobyi bw'amafi, ibi bikaba bifasha aborozi b'amafi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni inyubako ikorerwamo ubworozi bw'amafi. Iyi nyubako ikaba yubatse ku buryo bwa kijyambere, hakaba harimo umukozi ushinzwe kwita ku mafi. Ibi bikaba bifasha umworozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni ibyuzi bikaba byifashishwa mu bworozi bw'amafi, iruhande rwaho hakaba hari ibiraro byubatse mu buryo bwa kijyambere, byororerwamo amatungo atandukanye harimo ingurube n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abahinzi n'aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi ndetse n'ubworozi.

Ni ikiyaga kikaba gikikijwe n'imisozi iteyeho ibihingwa bitandukanye, hakaba harimo abaturage bari kugenda mu bwato ndetse bari mu bikorwa byo kuroba amafi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona kubona umusaruro uhagije ukomoka ku mafi.

Ni umugore bakaba ari gusoroma igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, ikiigihingwa kikaba kimufasha mu kubona amafaranga yifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni umugabo, akaba afashe igihingwa ngengabukungu cy'ikawa, iruhande rwe hakaba hari ibindi bihingwa bitandukanye birimo urutoki na voka, ibi bihingwa bikaba bimufasha kubona amafaranga yifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni abagabo n'abagore, bakaba bahagaze mu gishanga, bakaba barimo guhinga ibihihingwa bigiye bitandukanye, iruhande rwaho hakaba hari amashamba afite ibiti, ibi bihingwa bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga igihe babijyanye umusaruro wabivuyemo ku isoko.

Ni umuturage, akaba ari mu gikorwa cyo gusarura igihingwa, ngengabukungu cy'ikawa, ibi bikaba bimufasha mu kubona umusaruro uhagije ndetse n'amafaranga, amufasha mu kubaho mu buzima bwa buri munsi.

Guhinga igihingwa ngengabukungu cy'icyayi ku buryo buteye imbere, bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni igihingwa ngengabukungu kikaba gifite imbuto zisa umukara, iki gihingwa kikaba ari ikawa, ikaba yoherezwa mu mahanga gukumo ibintu bigiye bitandukanye bikaba bitanga amafaranga ku baturage baba bayihinze.

Ubuhinzi bw'ibihingwa ngengabukungu bukozwe mu buryo bwa kijyambere, bufasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ubafasha mu kubaho mu buzima bwa buri munsi, bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kwiteza imbere.

Guhinga ibihingwa ngengabukungu bigiye bitandukanye birimo ikawa ndetse n'ibindi, ni uburyo bwo kubona umusaruro uhagije urimo amafaranga. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona ubushobozi bubafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni imisozi, ikaba iteyeho igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, iki gihingwa kikaba gitanga amafaranga ku baturage, abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugore, akaba arimo gusarura igihingwa ngengabukungu k'icyayi.. Iruhande rwe hakaba hari inyubako yifashishwa mu gutunganya igihingwa ngengabukungu. Ibi bikaba bimufasha mu kubona amafaranga amutunga umunsi ku munsi.

Ni igihingwa ngengabukungu cy'icyayi kikaba gihinze ku buso bunini, iki gihingwa kikaba kivamo ibintu bigiye bitandukanye, bikaba bitanga amafaranga ku baturage ndetse n'igihugu.

Ni icyumba kirimo utujerekani turi mu ibara ry'umweru ndetse n'amakarito, hakaba harimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zifate amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku bworozi.

Gukoresha ibikoresho bya kijyambere mu bworozi, bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku bworozi, bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni amacupa, akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo ubafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni icyumba. Kikaba kirimo amacupa n'amakarito afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga b'amatungo mu kuvura indwara zifata amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni ikibumba kikaba kirimo amakarito afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga b'amatungo mu kuvura indwara zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku burozi.

Ni icyumba kirimo amacupa arimo imiti, yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye, zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku matungo.

Ni amacupa akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo. Harimo: inka, intama ndetse n'izindi. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni amashashi akaba arimo imiti yifashishwa n'aborozi mu kuvura indwara zifata amatungo zirimo inkoko, ingurube, intama ndetse n'izindi, ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira umusaruro uhagije ukomoka ku mutungo urimo amata, ifumbire ndetse n'inyama.

Ni amashashi akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kuba bongera umusaruro uhagije ukomoka ku matungo, birinda ko amatungo yabo yafatwa n'uburwayi.

Ni amakarito akaba afunzemo imiti yifashishwa n'abaganga b'amatungo mu kuvura indwara zifata amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kugira amatungo afite ubuzima bwiza, abaha umusaruro uhagije.

Kwita ku matungo binyuze mu kuyavura indwara zigiye zitandukanye, ndetse no kuzikingira, bifasha aborozi mu kugira amatungo ashobora gutanga umusaruro uhagije, bikaba bifasha aborozi mu kuyiteza imbere binyuze mu bworozi bukozwe mu buryo bwa kijyambere.

Ni amakarito y'ubwoko bugiye butandukanye hakaba hateretse ahantu hamwe mu cyumba, iruhande rw'aho hakaba hari amacupa, aya makarito akaba arimo imiti yifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni ikiraro cyubatse mu buryo bwa kijyambere, kikaba kirimo inkoko zikiri ntoya, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu gihe cyo kubizigaburira, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku nkoko urimo amagi n'ifumbire.

Ni umugabo akaba arimo gutera imyaka mu murima, iyi myaka ikaba yifashishwa n'abaturage mu kubaha ibyo kurya ndetse n'amafaranga akomoka ku musaruro uba wabivuyemo.

Ni abahinzi bakaba bari kugenda mu mirima migari irimo amatungo agiye atandukanye, bakaba bari mu gikorwa cy'ubuhinzi kibafasha kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni inka, zikaba ziri kurisha ubwatsi butoshye mu bisambu birimo ibyatsi bigufi ndetse n'ibirebire, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku matungo, urimo amata, ifumbire n'ibindi.

Guhinga igihingwa kimwe ku buso bunini mu buryo bwa kijyambere, ni uburyo bwiza bwo kubona umusaruro uhagije ku buhinzi. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaturage bakaba barimo gukorera ibihingwa bigiye bitandukanye, ibi bihingwa bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho umunsi ku munsi.

Ni umugabo akaba, arimo gusunika igare ripakiyeho ibihingwa, ibi bikaba birimo gusarurwa, ibi bikaba bituma abaturage babona ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Ni inyamaswa yo mu ishyamba akaba ari imparage ihagaze mu mukenke iruhande rwayo hakaba hari ibiti birebire by'inganzamarumbo, ibi byatsi bikaba biyifasha mu kubona aho kuba ndetse n'ibyo kurya biyitunga umunsi ku munsi.

Ni abagabo bahagaze mu isambu, bakaba bafashe amasuka yifashishwa mu buhinzi, ibi bikababafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi ndetse bikabafasha no kwirinda ikibazo k'inzara.

Ni umuhinzi w'umugore akaba arimo gukorera imyaka mu murima. Akaba arimo gukoresha igikoresho kisuka. Ibi bikaba bimufasha mu kubona umusarurokuramo ibyo kurya ndetse n'amafaranga amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni abakozi b'urwego rw'Igihugu rushinzwe umutekano barimo abasirikare n'abapolisi. Inyuma yabo hakaba hahagaze abaturage. Bakaba bari mu gikorwa cyo gutera ibiti. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona imbuto, bifashisha mu kwirinda indwara.

Ni inka ziri kurisha zikaba ziri mu biraro byubatse mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku bworozi burimo amata, ifumbire, inyama ndetse n'ibindi.

Ni mu murimo ukaba uteyemo imboga ku buryo bwa kijyambere, hakaba harimo ibiti bivangwa n'imyaka, izi mboga zikaba zifashishwa n'abaturage nk'ibyo kurya ndetse zitanga amafaranga igihe zajyanwe ku isoko.

Ni amatungo magufi ari mu bwoko bw'ihene. Iruhande rw'aho hakaba hari abaturage barimo kuzireba. Izi hene zikaba zifashishwa n'aborozi mu kubona ibintu bitandukanye bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi birimo ifumbire, amafaranga ndetse n'ibindi.

Ni umurima, ukaba uririmo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, birimo imboga n'imbuto. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya bibaha intungamubiri zitandukanye zibafasha mu kwirinda indwara.

Igiti kikaba gifite imbuto nyinshi, izi mbuto zikaba zifashishwa n'abaturage, nk'ibyo kurya ndetse zivamo imiti y'ubwoko bugiye gutandukanya , ibi bikaba bifasha abaturage mu kugira ubuzima bwiza bigira umubiri.

Ni igihingwa cy'ibigori, kikaba gihinze ku buso bunini, ibi bihingwa bikaba bivamo ibyo kurya by'abaturage ndetse umusaruro uvuyemo ukoherezwa ku masoko. Ibyatsi bikaba bivamo ibyo kurya by'amatungo ndetse n'ifumbire.

Ni umugabo ufashe umuhoro akaba ahagaze mu isambu riteyemo ibitoki. Abakaba arimo kubikorera kugira ngo bibashe kumuha umusaruro uhagije, ibi bikaba bimufasha mu kwiteza imbere mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni udusanduka, tukaba turimo imboga z'ubwoko butandukanye, zirimo bimiteja, inyanya, urusenda ndetse n'ibindi, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya, bifite intungamubiri.

Ni imirima irimo amazu yubatse mu buryo bugezweho, ayo mazu akaba yifashishwa n'abahinzi mu gutubura imbuto zigiye zitandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Guhinga igihingwa kimwe ku buso bunini mu buryo bwa kijyambere. Ni uburyo bwiza bwo kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umurima, ukaba uteyemo ibihingwa by'imboga z'ubwoko butandukanye zirimo ibitunguru ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga amufasha mu kubaho ubuzima bwe bwa buri munsi.

Ni akarima k'igikoni kakaba gateyemo imboga z'inyabutongo, iruhande rwako hakaba hari ibindi bimera bitandukanye, izi mboga zikaba zifashishwa mu kuzirya kuko zitanga intungamubiri zifashishwa mu kurinda indwara zikomoka ku mirire mibi.

Ni ibihingwa by'ubwoko butandukanye, hakaba harimo ibisheke, ibitoki, ibi bihingwa bikaba byifashishwa n'abaturage mu kuba babona ibyo kurya bibatunga umunsi ku munsi ndetse babikuramo n'amafaranga.

Ni ibihingwa bigiye bitandukanye bikaba bihinze mu masambu, iruhande rwaho hakaba hari amago y'abaturage, ibi bihingwa bikaba bitanga ibyo kurya ku baturage ndetse n'amafaranga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abaturage bakaba bahagaze mu mirima irimo ibiti by'inganzamarumbo, iyi mirima ikaba yifashishwa n'abaturage mu guhinga imyaka zigiye zitandukanye bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya mu gihe cya vuba kandi bimeze neza.

Ni ibinyampeke, biri mu bwoko bw'ibigori, ibi bikaba bifasha umuturage kubona imbuto yo guhinga, ndetse n'amafunguro amufasha mu kubaho kwe kwa buri munsi, ndetse bimuha amafaranga igihe yajyanye umusaruro ku isoko.

Ni ibihingwa by'ubwoko bugiye butandukanye birimo amapapayi, avoka ndetse n'ibindi, ibi bikaba bitanga imbuto zifashishwa n'abaturage nk'ibyo kurya ndetse n'amafaranga igihe zajyanywe ku isoko.

Ni igihingwa K'ikirayi kikaba giteye mu murima. Ibi bihingwa bikaba bitanga umusaruro wifashishwa n'abaturage mu kurya ndetse no kubona amafaranga, igihe bawujyanye ku isoko.

Ni igiti cy'amapera, kikaba kiririmo imbuto, izi mbuto zikaba ari ibyo kurya by'abantu ndetse zifashishwa mu gukorwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ibi bifasha abaturage kuba babona ibyo kurya ndetse n'imiti.

Ni umuma ukaba uhinzemo ibihingwa bitandukanye birimo ibigori ndetse n'ibindi, ibi bihingwa bikaba byifashishwa n'abaturage mu kuba babona ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Guhinga igihingwa kimwe ku buso bunini mu buryo bwa kijyambere bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bibafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri muntu.

Ni imirima, ikaba iteyemo ibihingwa, hakaba hanyuzemo ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi, ibi bihingwa bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho umunsi ku munsi.

Guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye birimo ibijumba bifasha abaturage mu kubona ibyo kurya bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse bikaba bibaha n'amafaranga abafasha mu kwiteza imbere.

Ni imirima, ikaba irimo ibihingwa bitandukanye birimo imyumbati, iruhande rw'aho hakaba hari umuhanda mugari wa kaburimbo, ibi bihingwa bikaba bifashishwa n'abaturage mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni amashashi y'ibikarito ndetse n'amacupa akoze mu byuma bikaba biri mu mabara atandukanye, ibi bikoresho bikaba birimo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, ibi bikaba bifasha abantu mu kubona ibyo kurya ku buryo bworoshye.

Ni abashinzwe umutekano barimo abasirikare ndetse n'abakora mu rwego rwa dasso bakaba bahagaze mu ishyamba, bakaba barimo kuganira ku buryo bwo kubungabunga amashamba kimeza. Ibi bikaba bidufasha mu kuba kubungabunga ku mashyamba atangirika.

Ni amashamba. Akaba arimo ibyatsi by'umukeke. Iruhande rwaho hakaba hari ho umugezi uri gutembamo amazi y'urubogobogo. Ibi bikaba bifasha amatungo kubona ibyo kurya ndetse naho kuba.

Ni amashamba ya kimeza akaba arimo ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, aya mashamba akaba akurura imvura, atanga ibyo kurya ku nyamaswa ndetse n'ubuturo bw'inyamaswa.

Ni ishamba rya kimeza rikaba ririmo kunyurwamo n'umugezi uri gutemba amazi meza, aya mashamba akaba akurura imvura ndetse hakaba n'ibyokurya ku nyayamaswa ndetse no kunywa.

Ni imisozi ikaba iteyeho ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye, ibi bimera bikaba byifashishwa mu kwirinda ko imisozi yatembanywa n'isuri ndetse bikaba ari n'ibyo kurya by'amatungo.

Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima birimo urusobe rw'amashamba ya kimeza, ni uburyo bwiza bwo kwirinda izimira ry'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro ukomoka ku mashyamba ya kimeza, harimo imvura ibyo kurya ndetse n'imiti.

Ni indabo z'ubwoko bugiye butandukanye, zikaba zihinze mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha abaturage, mu kubona umusaruro uhagije, kandi umeze neza, ukomoka ku buhinzi bw'indabo bukaba butanga amafaranga, ndetse afasha abaturage mu kwiteza imbere.

Ni imirima, ikaba iteyemo ibihingwa ku buryo bwa kijyambere. Ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku buhinzi.

Ni abaturage bakaba bari iruhande rw'umusaruro w'inyanya uri mu gitebo ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'inyanya bukozwe ku buryo bwa kijyambere, bufasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bibafasha mu kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bibafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni abagabo n'abagore bakaba barimo gusarura umusaruro w'inyanya, iruhande rwabo hakaba hakikije amashyamba afite ibyatsi kimeza bitoshye. Ibi bikaba bibafasha kubona amafaranga bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni umugabo, akaba ahagaze mu nzu zikorerwamo ubuhinzi mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona imbuto batera zihanganira indwara kandi zibaha umusaruro utubutse.

Ni umuturage w'umugore akaba ari mu isambu iteyemo amatunda. Ibi bikaba bimufasha mu kubona imbuto, ndetse n'amafaranga amufasha mu buzima bwe bwa buri muntu.

Ni umugore, akaba afashe indobo isa n'umutuku, akaba ari mu murima uhinzemo imboga , n'igikorwa cyo gucucira imboga, ibi bikaba bimufasha mu kwirinda ko imboga zakuma ,bitanga umusaruro uhagije.

Ni abahinzi bakaba bari gutunganya ubutaka mu buryo bwa kijyambere. Bakaba bari mu gikorwa cyo guhinga ibihingwa by'ubwoko butandukanye, birimo imboga ndetse n'imbuto. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni indabo, zihinze muburyo bwa kijyambere, zikaba ziri mu mabara agiye atandukanye, arimo umuhondo, umutuku, icyatsi ndetse n'umweru, ibi bikaba bifasha mu kubona amafaranga ndetse no kugira ahantu heza.

Guhinga mu buryo bwa kijyambere burimo gukoresha imashini zifashishwa mu buhinzi mu gihe cyo kuhira, ni uburyo bwiza bwo kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro ubafasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga abafasha mu kubaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni imashini zifashishwa mu kuhira ibihingwa bigiye bitandukanye mu gihe cy'izuba iruhande rwazo hakaba hahagaze abahinzi, ibi bikaba bifasha abahinzi mu kubona umusaruro uhagije mu gihe cy'izuba

Ni abahinzi bakaba bari mu gikorwa cyo gucucira imyaka, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije igihe izuba ryabaye ryinshi , bikaba bibafasha mu kwiteza imbere ,binyuze mu buhinzi buteye imbere.

Ni umugabo, akaba afashe imashini yifashishwa mu kuhira ibihingwa, igihe izuba ryavuye, izi mashini zikaba zibafasha mu kongera umusaruro w'ibihingwa.

Ni abaturage bakaba barimo gukoresha imashini zifashishwa mu buhinzi igihe cyo kuhira. Ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi, igihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni umugabo. Akaba afashe imipira itwara amazi mu gihe cyo kuhira. Akaba ahagaze mu murima uhinzemo imboga z'amashu. Ibi bikaba bimufasha mu buryo bwo kuhira igihe izuba ryabaye ryinshi.

Ni umugore, akaba afashe umupira wifashishwa mu kuhira igihe izuba ryabaye ryinshi, akaba ahagaze mu murima w'imboga ari mu gikorwa cyo kuhira, ibi bikaba bimufasha mu gihe izuba ryabaye ryinshi, yirinda ko umusaruro we wagabanuka.

Kwita ku misozi miremire ihanamye birimo kuyicaho amaterasi y'indinganire ndetse no kuhatera amashyamba afata ubutaka igihe imvura iri kugwa, bifasha mu kwirinda ikibazo cy'isuri igihehe imvura yabaye nyinshi.

Ni ikiyaga kikaba gikikijwe n'imisozi ihanamye iteyeho ibiti bitoshye, ibi biti bikaba byifashishwa mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa n'isuri igihe imvura ibaye nyinshi.

Ni imisozi ihanamye. Ikaba iteyeho ibihingwa n'ibimera bitoshe. Iruhande rwayo hakaba hari amazu atuwemo n'abaturage. Ibi bimera bikaba bifasha mu kwirinda isuri ikururwa n'imvura.

Ni imisozi ikaba iciyemo amaterasi y'indinganire ateyeho ibihingwa ndetse n'ibiti bifasha mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa, ibi bikorwa bifasha abaturage mu kubyaza umusaruro ubutaka buri ku misozi hanamye.

Ni imisozi ihanamye, ikaba iriho amazu ndetse ateyeho n'amashyamba, aya mashyamba akaba abafasha mu kwirinda ko ubutaka bwabo bwatembanwa n'isuri.

Guca amaterasi y'indinganire ku misozi ihanamye ndetse no gutera amashyamba bifasha mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa n'isuri. Ibi bikaba bifasha mu kubona ibyasi by'amatungo, umwuka mwiza wo guhumeka ndetse n'imvura.

Ni imisozi miremire ihanamye, ikaba iciyeho amaterasi ndetse iteraho amashamba ya kimeza. Ibi bikaba bifasha abaturage mu kwirinda ko ubu butaka bwabo bwatembanwa n'isuri igihe imvura ibaye nyinshi.

Ni imisozi miremere, ikaba iriho ibimera by'ubwoko butandukanye birimo igitoki n'ibindi. Iruhande rwayo hakaba hari ikiyaga, ibi bikaba bifasha abaturage mu kwirinda ko ubutaka bwabo bwatwarwa n'amasuri.

Ni imisozi miremire y'ibirunga munsi y'aho hakaba hari amashamba y'ibiti by'inganzamarumbo, aya mashyamba akaba akurura imvura ndetse ni n'ubuturo bw'inyamanswa zo mu ishyamba.

Ni imisozi ihanamye, ikaba iriho amaterasi, ateyemo ibihingwa bitoshe ndetse n'amashamba, ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa n'isuri ndetse no kubona umusaruro uhagije ukomoka ku buhinzi.

Ni imisozizo miremire ihanamye, ikaba iteyeho ibimera by'ubwoko bugiye butandukanye, ibi bimera bikaba bifasha mu kurinda ubutaka ko bwatembanwa n'isuri.

Guca amaterasi y'indinganire ku misozi ihanamye ndetse no kuhatera ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, bifasha mu kwirinda ko ubutaka bwatembanwa n'isuri, igihehe imvura yabaye nyinshi.

Ni ikiyaga kikaba gikikijwe n'imisozi ifite ibimera bitoshye, ibi bimera bikaba bifasha mu kuba twakwirinda isuri ndetse bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, kandi bikurura imvura.

Ni inka zikaba ziri mu ishamba ririmo ibyatsi bigufi ndetse n'ibirebire, ibi bikaba ari ibiryo by'amatungo, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo amata, ifumbire ndetse n'inyama.

Korora amatungo magufi harimo ingurube mu buryo bwa kijyambere, bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo. Bikaba bibafasha mu kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni amatungo y'inka akaba arimo kurisha ibyatsi mu isambu, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo amata, ifumbire ndetse n'amafaranga.

Ni inka zikaba zihagaze mu biraro byubatse mu buryo bwa kijyambere, ibi biraro bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo burimo amata, ifumbire ndetse n'ibindi.

Ni inka. Zikaba ziri mu biraro byubatse mu buryo bwa kijyambere. Iruhande rwabo hakaba hari abakozi bafasha mukuzitaho, ibi bikaba bifasha abaturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo harimo amata, ifumbire n'ibindi.

Ni icyumba kirimo imashini ndetse n'imiti yifashishwa n'aborozi mu kuvura no gukingira amatungo. Ibi bikaba bifasha aborozi mu kuba bagira amatungo atarwaye, ndetse no kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo.

Ni amatungo magufi, akaba ari mu biraro byubatse ku buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo barimo inyama ndetse n'ifumbire.

Ni ibiraro byubatse kuburyo bwa kijyambere, bikaba bikorerwamo ubworozi bw'amatungo arimo, inkwavu ndetse n'izindi, ibi bikaba bifasha aborozi mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku nkwavu ndetse n'izindi.

Ni inka ikaba yororewe mu kiraro cyubatse mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha umuturage mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo urimo amata, ifumbire ndetse n'ibindi.

Ni umugabo uhagaze mu biraro byororwamo inkoko byubatswe ku buryo bwa kijyambere, ibi biraro bikaba bifasha aborozi b'inkoko mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku nkoko urimo amagi, inyama ndetse n'ifumbire.

Ni amatungo magufi arimo ihene hakaba ari ahantu hamwe mu kiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, ibi bikaba bifasha aborozi b'amatungo mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku matungo magufi urimo ifumbire, inyama ndetse n'amafaranga.

Ni ibinyamisogwe birimo ibishyimbo, bikaba biri ku gikoresho gisa n'umweru, ibi binyamisogwe bikaba byifashishwa n'abahinzi mu kubona imbuto batera ndetse n'ibyo kurya bibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ni umugabo akaba arimo kwanika umusaruro ukomoka ku bigori, ibi bikaba bimufasha mu kubona ibigori byo gukuramo ibyo kurya ndetse n'imbuto zo gutera ibindi.

Ni imifuka ikaba irimo ibinyamisogwe by'ubwoko butandukanye, birimo ibishyimbo, soya, ubunyobwa, ndetse n'ibindi. Ibi bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubirya ndetse no kubihinga.

Ni ibinyampeke by'ubwoko butandukanye birimo ingano ndetse n'ubunyobwa, bikaba byifashishwa n'abaturage mu kubona ibyo batera ndetse n'ibyo barya.

Ni icyibo kikaba kirimo ibinyampeke bigiye bitandukanye birimo amashaza, hakaba hari umugore urimo gukoramo, izi mbuto zikaba zifashishwa n'abahinzi mu kubona ibyo batera ndetse n'ibyo barya.

Ni ibihingwa bihinze mu buryo bwa kijyambere, bikaba bihinze ku mirongo. Ibi bihingwa bikaba bihinze mu buryo bibona ifumbire ibifasha mu gukura neza, bikaba bitanga umusaruro uhagije ku baturage.

Ni umugabo uhagaze mu cyumba inyuma ye hakaba hari imifuka ifatiyemo ibinyampeke, ibi bikaba bimufasha kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bimufasha kubaho mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ni ibinyamisogwe by'ubwoko butandukanye bimo ibishyimbo, amashaza, soya ndetse n'umuceri ibi bikaba byifashishwa n'abahinzi, mu kubona ibyo kurya ndetse n'imbuto yo gutera.

Ni umuganga wambaye imyenda yabugenewe akaba arimo gukingira ikinyabuzima k'ingurube. Ibi bikaba bifasha ibinyabuzima, kuba byagira ubuzima buzira umuze.

Ni ibiraro byubatse muburyo bwa kijyambere, bikaba byororerwamo inkoko, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu kugaburira inkoko, ibi bikaba bifasha umworozi mu kubona umusaruro uhagije, ukomoka ku nkoko urimo amagi ndetse n'ifumbire.

Korora mu buryo bwa kijyambere bifasha aborozi mu kwirinda ko amatungo yabo yafatwa n'uburwayi bugiye butandukanye, ibi bikaba bibafasha mu kubona umusaruro uhagije ukomoka ku bworozi ubafasha mu kwiteza imbere.

Ni inyamanswa yo mu ishyamba ikaba ihagaze mu byatsi bitoshye, ibi byatsi bikaba biyifasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'aho kuba.

Ni inyamaswa zigiye zitandukanye, zirimo imparage, intare ndetse n'inzovu zikaba ziri mu rusobe rw'ibinyabuzima, ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko byatakara.

Ni inyamaswa zo mu ishyamba zikaba zihagaze mu byatsi bikiri bitoya, inyuma yabyo hakaba hari ibiti by'inganzamarumbo, ibi byatsi bikaba bizifasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'aho kuba.

Ni byiza kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima birimo ibiguruka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bifasha mu kubirinda ko ibinyabuzima byatakara bikava ku isi ibi bikaba bikurura ba mukerarugendo ndetse bitanga n'akazi ku benegihugu.

Ni inyamaswa zo mushamba zirimo inkende ndetse n'izindi, iruhande rwazo hakaba hari ibiti by'ingandamarumbu ndetse n'amazu atuwemo n'abaturage, ibi biti bikaba bizifasha mu kubona ibyo kurya mu buzima bwazo bwa buri munsi.

Ni byiza mu kubungabunga ibinyabuzima bitandukanye birimo inyamaswa ndetse n'ibimera. Ibi bikaba bifasha mu kwirinda ko hagira ikinyabuzima kiva ku isi ngo kizimire kandi bikaba bitanga akazi ku baturage.

Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima birimo imbogo ndetse n'ibindi, ni uburyo bwo kwirinda kuba yazimira bikavaho burundu. Ibi bikaba bifasha mu gukurura ba mukerarugendo.

Kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima birimo inyamaswa ndetse n'ubwoko bugiye butandukanye bw'ibimera, ni uburyo bwiza bwo kwirinda izimira ry'ibimera ndetse n'inyamaswa zimwe na zimwe. Ibi bikaba bifasha mu kuzirinda.

Ni inyamaswa zo mu ishyamba ziri mu bwoko bw'inzovu, zikaba zirimo kurisha ibyatsi mu ishyamba, ibi byatsi bikaba bizifasha kubona aho ziba ndetse ni n'ibiryo byazo.

Ni ishyamba rikaba ririmo ibiti birebire ndetse n'ibyatsi, hakaba harimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye harimo imbogo ndetse n'izindi, aya mashyamba akaba afasha izi nyamaswa kuba zabona ibyo kurya ndetse n'aho kuba zaba.

Ni inyamaswa y'ishyamba, ikaba ihagaze mu ishyamba rifite ibyatsi bitoshe, ibi byatsi bikaba biyifasha mu kubona aho kuba ndetse no kubona ibyo kurya biyifasha, umunsi ku munsi.

Ni byiza kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, bifasha ibinyabuzima mu kwirinda kuba byazimira kandi bitanga akazi ku baturage babyitaho umunsi ku munsi.

Ni inyamaswa zo mu ishyamba. Zikaba ziri mu bwoko butandukanye hakaba harimo: insumbashamba, imparage, inzovu ndetse n'izindi zikaba zahuriye hamwe.